Mu rwego rwo kubungabunga umutekano w'igihugu cyacu tugomba kugira abasirikare, abapolisi, badufasha mu rwego rwo kubungabunga umutekano w'igihugu cyacu, kikagira amahoro n'umutekano usesuye.

Tugira ubwoko bwinshi cyane bw'abantu baturindira umutekano ku gihugu cyacu，habamo Daso，bahurira ahantu hamwe， bakaganira ku mutekano w'igihugu cyacu，bambara imyenda myiza cyane， n’inkweto nziza cyane zijyanye n'akazi bakora.

Tugira inzego nyinshi z'abantu baducungira umutekano wacu mu gihugu, hari abasirikare bagira akamaro kanini cyane, batubera ahantu hose, baducungira umutekano ku mashyamba, n'ahandi hantu henshi, hari ibikorwa remezo bitandukanye nko ku bibuga by'indege.

Tubungabunga umutekano w'igihugu cyacu dukoresha ifatashusho, tureba abantu bose bari gukora ibintu bitemewe n'amategeko urugero nk'abashoferi cyangwa abamotari bagendera mu muvuduko.

Inzego ziducungira umutekano zigira akamaro kanini cyane nk'abapolisi ,abasirikare n'abadaso batuma twishima mu muhanda. Nta kajagari kabamo nta kibazo mbese tugirana

Mu muco nyarwanda tugira inzu z'ibyatsi zitwa indaro zibagamo ibikoresho byinshi cyane gakondo biba bitandukanye nk'imisambi, ibyansi, uduseke, n'ibindi byinshi cyane biba bitandukanye.

Mu muco nyarwanda tugira ababyinnyi ba gakondo twita intore, baba batandukanye, bakenyera inshunda, bambara amayugi, barahamiriza neza cyane. Turabakunda ahantu haba habaye ubukwe n'ibindi bitaramo runaka.

Mu muco nyarwanda tugiramo ababyinnyi ba gakondo babita intore, barahamiriza cyane ahantu haba habaye ubukwe no mu bindi bitaramo biba bitandukanye. Abakaraza bavugiriza ingoma, abaririmbyi bakabaririmbira, ubundi bagahamiriza neza cyane.

Mu muco nyarwanda tugiramo abantu babyina imbyino za gakondo babita intore, n'ababyeyi abategarugori, bambara imikenyero bagahamiriza, cyane cyane iyo bishimye ahantu haba habaye ubukwe n'ibindi birori runaka.

Umuco nyarwanda tugira ibikoresho byinshi cyane biba bitandukanye, nk'intara cyangwa inkoko tuzigosorezaho ibishyimbo n'ibigori na masaka kugira ngo ibitaka byose birimo n'amabuye tubashe kubikuramo tubibike bimeze neza.

Umuco nyarwanda tugira ibikoresho byinshi cyane gakondo biba gutandukanye, nk'isekuru tuyisekuriramo ibintu bitandukanye ibigori turi kugira ngo bivemo ifu, imyumbati kugira ngo ivemo ifu turatekamo umutsima, cyangwa se amasombe.

Mu muco nyarwanda tugira abantu bitwa intore bahamiriza ahantu haba habaye ubukwe cyangwa ahandi mu bitaramo runaka, bambara imigara bagakenyera inshunda ,bambara amuyogi n'abakaraza bavuza ingoma ubundi bagahamiriza.

Mu muco nyarwanda tugira ibikoresho byinshi cyane biba bitandukanye, nk'intebe z'udutsitsi n'ingoma. Ingoma zigira akamaro kanini cyane turazivuza ahantu haba habaye ubukwe cyangwa ahantu abantu baba bari kubyina.

Inka isobanura ibintu byinshi cyane, hari inka z'inyambo ziba zifite amahembe maremare cyane, kandi buriya umugeni wese bajya gutanga baba baramukoye inka, niyo mpamvu ...

Mu muco nyarwanda tugira n'ababyinnyi ba gakondo, baba ari abana b'abakobwa babyina bikoreye ibiseke, tugiramo n'abakaraza baba batandukanye babanza kotesha ingoma, barangiza bakazivuza zikavuga neza cyane.

Mu muco gakondo tugiramo ibikoresho byinshi cyane biba bitandukanye nk'intara cyangwa imyuko. bidufasha kugosora ibihingwa tuba twarahinze by'ibinyamisogwe cyane cyane ibishyimbo, amashaza uburo, amasaka n'ibindi byinshi cyane.

Mu muco nyarwanda tugira ababyinnyi beza cyane babaga bazi guhamiriza, abagore bikore uduseke, barambura amaboko bakenera incunda, bizirika n'utundi tuntu mu mpanga, ubundi bagahamiriza neza cyane ahantu ha...

Mu muco nyarwanda，tugira ibikoresho byinshi cyane gakondo，nk'umuvure，tuwukamiramo ibitoki， tukenga tukagira umutobe，tukawushyira mu ndebere，tugatara inzoga，ubutanda， budufasha gukamura umutobe wacu.

Mu muco gakondo tugiramo inka. Zibamo amoko menshi :inyambo, isine, imfirizone. zigiraga amata menshi cyane ziduha amata ,ziduha inyama n'akandi kamaro kenshi.

Mu muco nyarwanda tugira ibikoresho byinshi cyane biba bitandukanye nk'isambi, inkoko n'imbehe, imbehe tuziraho cyane ibiryo biba bikomeye imyumbati, ibishyimbo byumutse n'ubugari, umutsima uwo ariwo wose.

Umuco gakondo ni mwiza cyane, utuma tutarya ngo tumare, tugira ibigega byo guhunikamo imyaka yacu tuba twejeje nk'ibigori, ibishyimbo, ibirayi, kugira ngo tutazasonza cyangwa tutazarya tukabimara. Iyo twahunitse mu kigega nta nubwo bi...

Mu muco nyarwanda tugiramo ibintu byinshi cyane biba bitandukanye :nk'ingoma zivuzwa n'abakaraza, bafata imirishyo ingoma bakazotesha ,bakayikubita kuri za ngoma zikirangira cyane, bakunda kuzikoresha ahantu haba habaye ibirori ,harimo ababyinnyi babyina imbyino za kinyarwanda.

Umuco gakondo ubamo ibikoresho byinshi cyane biba bitandukanye nk'inkono z'itabi banyweramo itabi, kera iyo umugeni bajyaga kumusaba, bavugaga amagambo, umwe yanywaga itabi uwo ku musore n'uwo ku mugeni akanywa itabi.

Mu muco gakondo tugira ibikoresho byinshi cyane biba bitandukanye nk'intango zigira akamaro kanini cyane mu bukwe ,tuzijyanayo dusukamo umusururu cyangwa inzoga, abageni bagasomaho uwo muhango bawita gusoma ku ntango.

Mu muco nyarwanda tugira mo amasaka aba yarameze asa nk'umukara, dufataga amasaka asanzwe y'amakoma tukayavanga n'ivu n'amazi tukamara iminsi yarangiza yakamera, turayanika, tukayabetesha, tukayashigisha mu musururu ngo uraryoha cyane.

Mu muco gakondo habamo inzu z'ibyatsi, zigira urusyo babeteraho amasaka, igisabo bacundiramo amata, urutara bararaho, habamo n'inka nyinshi nziza cyane.

Mu muco nyarwanda habamo ibiseke, abagore barabiboha bakabibohera n'imitemeri yabyo, bigira akamaro kanini cyane babikamo, babitwereramo, iyo babitwereyemo babyita ipfukire.

Mu muco nyarwanda, habamo ibikoresho byinshi cyane biba bitandukanye nk'inkono y'itabi, igira akamaro kanini cyane ku bakecuru n'abasaza, banweramo itabi bararikunda cyane.

Mu muco nyarwanda, abakobwa benshi baboha ibirago, iyo bajya gushaka， barabijyana， babiha ba nyirabukwe，babiha n'ababyeyi babo ba batisimu，na ba nyirasenge， na ba nyirarume.

Mu muco nyarwanda habamo ibikoresho byinshi cyane bigiye bitandukanye, habamo urukiza bita uruho, intango, uducuma, utubindi, n'utundi dukoresho twinshi cyane nk'amase...

Mu muco nyarwanda tugira ibikoresho byinshi cyane gakondo biba bitandukanye nk'ingobyi bayihekagamo umurwayi cyangwa umuntu wapfuye, ahantu hatagira ibinyabiziga, kera banayihekagamo abageni bagiye gushinyingirwa.

Mu muco nyarwanda tugiramo abantu bitwa abacuzi baducurira ibikoresho byinshi cyane biba bitandukanye nk'indiga, bafata icyuma bakagihonda bagitwitse barangiza kikavamo indiga dukoresha turi guhata ibirayi.

Abantu bahinga, babyuka mu gitondo, bashaka amasuka bakayashyira ku rutugu, baragenda mu murima, bagahinga. Iyo sa sita zibagereyeho barataha.

Tugira inka nziza cyane bita inyambo zikunda kuba mu Burasirazuba mu karere ka Nyagatare n'utundi turere twinshi tugize ubu intara y'iburasirazuba, inka z'inyambo ziba ari nziza ziritonda cyane.

Mu muco nyarwanda habamo ababyinnyi ba gakondo bita intore, babyina ahantu hose haba habaye ubukwe babatumiye cyangwa bagakoresha ikirori cyabo gitandukanye, abagabo bafite amacumu kandi bose babyina bari guseka.

Mu muco nyarwanda iyo umukobwa yajyaga gushaka bashakaga inka bakajya kumukwa bagashaka ababyinnyi bakayibyinira n'abivuzi bakivugira iyo nka nibwo bavugaga ko umukobwa yarongowe bya Kinyarwanda.

Mu muco nyarwanda tugira ibikoresho byinshi cyane harimo nk'ikigega, bacyubakisha ibibingo, bakagisobekesha ibiti, bakagisakaza ibyatsi, nuko tukazajya turagihunikamo ibihingwa byacu tuba twejeje.

Mu muco nyarwanda tugira ibikoresho gakondo bitandukanye nk'ingoma barazotesha bazishakira imirishyo abakaraza barazikaraza bakazivuza cyane abantu bakishima.

Mu muco nyarwanda iyo umukobwa yajyaga kurongorwa hari ibintu biba ari iby'ingenzi. Bigenga uwo muco. Urugero nko gukwa kwambikana impeta. Umusore yambika umukobwa impeta iyo baku.....

Umuco nyarwanda ntugacike, intore zitubyinira imbyino nziza za kinyarwanda, zambara amayugi, zikenyera inshunda, zambara imigara, zifata ingabo n'imiheto ngo: nsha nsha nsha!

Mu muco nyarwanda tugira abantu bivuga. iyo bajyaga mu bukwe bavuga ibyivugo byabo. Baba bakenye imikenyero bashizeho n'imyitero barangiza bakivuga bari mu magambo.

Umuco nyarwanda tugeramo ababyinnyi babyina neza bita intore, abatega utuntu bagatambikamo uduti ibyo bigaragazaga ko uwo mubyinnyi ari umugore, abagabo bo bambara imigara.

Mu muco gakondo abantu iyo bishimye barabyina. Iyo umuntu yakoresheje ubukwe abantu bakanywa bagahaga, ikintu kigaragaza ko bishimye, nuko babyina bagaseka bagatanga impano.

Mu muco nyarwanda habamo inzu z'ibyatsi bita indaro, zibamo urusyo n'ingasire, zikabamo igisabo bacundiramo amata, zikabamo uburiri bwitwa ubutarure n'ibirago byinshi cyane biba bitandukanye.

Mu muco nyarwanda habamo ibikoresho byinshi cyane biba bitandukanye nk'intango. Igira akamaro kanini cyane mu bukwe, habaho umuhango bita gusoma ku ntango. Umugeni ajya ku ruhande rumwe, n'umusore ku rundi ruhande, bagafata umuseke maze bagasoma.

Mu bikoresho tugira habamo umuhoro, udufasha ibintu byinshi cyane, utwahirira ubwatsi tugaburira amatungo yacu, udutemera ibiti, udusongorera n'imihembezo.

Ikibindi ni igikoresho cya gakondo kigira akamaro kenshi cyane, bagikanjikamo igikatsi bakibikamo imyaka bagitekamo iyo bagitekamo cyitwa izina ry'inkono.

Umuco gakondo tugeramo ibikoresho byinshi cyane, biba bitandukanye intara cyangwa inkoko ziragosora ibihingwa byacu, biba bitandukanye nk'umuceri, amasaka, ibishyimbo, amashaza, ingano, uburo n'ibindi byinshi cyane

Mu muco nyarwanda tugira ababyinnyi bahamiriza, ahantu haba habaye ibitaramo runaka, baba abagabo cyangwa abagore bambara amayugi, bakenyera inshunda, bambara imigara, bafata amacumu n'ingabo, ubundi bagahamiriza.

Mu muco nyarwanda tugira ababyinnyi baba batandukanye, tubita intore babyina ahantu haba habaye ubukwe, bambara imigara, bakenyera inshunda, bambara amayugi, bafata amacumu n' ingabo biba byiza cyane iyo bari guhamiriza.

Mumuco nyarwanda tugira ibikoresho byinshi cyane bitandukanye, nk'ingoma zigira akamaro kanini cyane barazibamba, bazibambisha uruhu rw'inka cyangwa urw'inkwavu n'izindi mpu nyinshi cyane barazivuza ahantu habaye igitaramo.

Mu muco nyarwanda habamo ibikoresho byinshi cyane bigiye bitandukanye, umuvure tuwukamira n'inzoga, tunoba ibitoki tukavangamo inshinge cyangwa amakoma, tukabikama tukabikama, twarangiza tugakuramo inzoga tukayitara iminsi ibiri tukayinywa, ahantu haba habaye ubukwe.

Mu muco nyarwanda, habaho intara cyangwa se inkoko bagosoreraho imyaka beza nk'ibishyimbo, ibigori, amasaka ,soya ,ingano n'ibindi byinshi bagosora bidufasha kugira ngo dukuremo imyanda ,tubike imyaka imeze neza.

Umuco nyarwanda habamo gusangira ku ntango, abantu benshi bafata intango bakayishyiramo umusururu cyangwa indobo bakayishyiramo umusururu, maze bagafata imiseke bagakoza muri ya ntango bagasomera rimwe. Ibyo bita gusangira ku ntango.

Mu muco nyarwanda tugiramo n'abagore bahamiriza bitwa intore. Babyina ahantu haba habaye ubukwe, baba bakenyeye imikenyero, batega amaboko nk'inka, nk'amahembe y'inka.

Mu muco nyarwanda habamo inzu z'ibyatsi bita indaro, ziba zirimo urusyo baseraho zikabaho ingasire, ibyansi bacundiramo amata, inkongoro ,ubutarure, n'ibindi byinshi cyane.

Mu muco Nyarwanda tugira ikigega, tugihunikamo imyaka yacu tuba twariyejereje: nk'ibigori, ibishyimbo, ibirayi, amasaka , ingano, amashaza ,n'ibindi byinshi cyane bituma bitamugwa.

Mu muco nyarwanda tugiramo ababyinnyi ba gakondo, babita intore batubyinira ahantu bakoresha ubukwe, mu bindi bitaramo baba babatumiyemo, baba bambaye neza cyane, bambara imigara ku mutwe, amayugi ku maguru, bakenyera inshunda, bagafata amacumu n'ingabo mu ntoki zabo.

Mu muco nyarwanda tugiramo ababyinnyi baba batandukanye, babyina ahantu haba habaye ubukwe bambara amayugi, bakenyera inshunda, bafata amacumu n'imiheto baba bambaye n'imigara.

Umuco nyarwanda ntabwo ucika, ababyinnyi babyina bambara amayugi, bakenyera incunda, bafata amacumu n'ingabo zabo, baba bafite n'imigara, abakaraza barakaraza ingoma.

Mu muco nyarwanda tugiraga igikoresho twita umuvure tuwukamiramo urutoki tuwukanjikamo igikatsi tuwutaramo n'inzoga kugira ngo tuzatwerere abantu mu bukwe bwabo.

Mu muco nyarwanda tugira ababyinnyi beza cyane, baba batandukanye babyina imbyino za gakondo. Babyina bari guseka cyane, barahamiriza bambara imigara, bakenyera injunda, bafata amacumu n'ingabo, barangiza bakabyina.

Mu muco Nyarwanda tugira ibikoresho byinshi cyane biba bitandukanye nk'umuduri. Uracuranga , utuma abantu bishima , ugira akamaro kanini cyane, bawukora mu gacuma , baragasatura , bagashyiraho n'umukwege ku giti.

Mu muco nyarwanda dutara inzoga tukayinywa, tuyishyira mu muvure nibwo tuyitara, tugafata imiseke turi benshi tugahurira kuri wamuvure tukayinywa biba byiza cyane bigaragaza ko abantu bakundana urukundo rwa kivandimwe.

Mu muco gakondo tugiramo abahanzi bahanga indirimbo za kinyarwanda, abavuzi b'ingoma bita abakaraza. Abazotesha bakazifata bakazivuza n'abandi bantu bahamiriza. Haba n'ikindi kintu bacuranga cyitwa umuduri.

Mu muco gakondo tugiramo ababyinnyi ba kinyarwanda, baba batandukanye bitwa intore, babyina mu bitaramo bitandukanye no mu bukwe bw'abantu buba bwabaye, baba bafashe amacumu, bakenera inshunda, bambara imigara, bafata amacumu...

Mu muco Nyarwanda tugiramo ibikoresho byinshi cyane biga bitandukanye, nk'igiseke kigira akamaro kanini cyane, tukibikamo imyaka, tugitwereramo tubyita impfukire, n'akandi kamaro kenshi cyane, tugiramo kandi n'inkangara nazo tuzibikamo.

Mu muco nyarwanda tugiragamo inzu z'ibyatsi, tukagiramo n'ababyinnyi bita intore, bahamiriza ahantu haba habaye ubukwe, bakenenyera incunda, bambara amayugi, barahamiriza cyane abagore bo bakenyera imikenyero n'imyitero yabo.

Mu muco gakondo habamo nk'ingoma. Bazifashisha mu bitaramo biba bitandukanye, abakaraza barazifata bakazotesha, bazifatira imirishyo, barazivuza, ziba nziza cyane zatuma abantu bishima.

Mu muco nyarwanda habamo ababyinnyi baba bazi guhamiriza babita intore, abana bato n 'abantu bakuru. Hari abavuza ingoma bita abakaraza bavuza bambaye imikenyero, baniteye n'imyitero.

Mu muco nyarwanda tugiramo ibikoresho byinshi biba bitandukanye nk'imyeyo ,ituma tugira isuku dukubura mu rugo .Umukobwa uzashobora kuba ku rugo abyuka mu gitondo mu museso agakubura imbuga.

Mu muco nyarwanda tugira abantu bavuza ingoma, babita abakaraza, bagira n'uduti tubiri bita imirishyo, ingoma barazotesha, barangiza bakazivuza, ahantu haba habaye ubukwe, abantu bakarushaho kwishima cyane,

Mu muco nyarwanda tugiramo ababyinnyi benshi cyane baba batandukanye n'aba gakondo bita intore, barahamiriza cyane, ahantu haba habaye ubukwe, mu bitaramo byinshi biba bitandukanye, bambara inigi, bazamura amaboko bagatega neza.

Mu muco nyarwanda, habamo ibisobane, tubihunikamo imyaka yacu, tuba twejeje cyane nk'ibigori, cyangwa ibishyimbo, iba iboshywe, ikozwe nk'igitebo, ariko ari binini cyane, bigeze hejuru, ituma ibishyimbo byacu tubibika neza, cyangwa se ntibimunge.

Tugira imitako myinshi cyane itandukanye tuyitaka mu nzu zacu. Dukoresha agakoroshi, ubudodo cyangwa tugakoresha urushinge, imideyi, zikaba nziza cyane ziba zigaragaye neza.

Mu muco nyarwanda tugiramo ibikoresho byinshi cyane biba bitandukanye, nk'ibyibo turabiboha, dufata inshinge tukayanika, tugafata n'urushinge tugashyiramo umudeyi, tukagenda tuboha, nuko igiseke kikuzura tugashyiraho n'umutemeri wacyo

Mu muco nyarwanda habamo kuhoba ibirago, bigira akamaro kanini cyane; babiraraho babiha ba nyirabukwe iyo bagiye gushyingirwa, babiha ba nyirasenge na ba nyirarume, abantu bose n'imiryango bakuru baba babanye neza cyane.

Mu muco nyarwanda habamo inka zigiraga akamaro kanini cyane, bazorore mu mafamu, barazigaburira mu dutanda, ziba mu biraro, zirya neza cyane, ibyatsi byinshi: urubingo, urwiri, n'ibindi bi...

Mu muco nyarwanda habamo ingoma，tugira abakaraza bazivuza， barazifata bakazotesha， bagafata imirishyo yazo, bakazivuza， ahantu haba habaye ubukwe cyangwa ibitaramo runaka， biba byiza cyane.

Muri leta y'u Rwanda habamo inyubako nziza cyane, Abanyarwanda benshi basengeramo, habamo abadiventisiti, abanyagatulika, abapende n'abaporoso.

Insengero ni nziza cyane tuvugana n'Imana dusengana nayo tukarushaho kuvugana n'umwami wacu yezu kirisitu bityo hagendewe ku matorero cyangwa amadini.

Tugira inyubako nziza cyane zaba zigezweho. Hbamo insengero ziba zitandukanye. Abanyagatulika basenga neza cyane, Musenyeri abasomera misa, n'abapadiri baba bahari. Bacana n'itara rya pasika.

Tugira inyubako nyinshi cyane zigezweho ziba zitandukanye. Urugero nk'insengero. Habamo iz'Abayisilamu, iz'Abanyagatulika, iz'Abapende, Abadive, Abageni ba Yesu n'Abaperesibutaliyani, n'Abaporoso.

Tugira inyubako nyinshi cyane ziba zarateye imbere ,cyane cyane iz'insengero nk'urw'Abanyagatulika nka paruwase rejinapacisi Remera, ni rwiza cyane rwubatse neza hasengeramo abantu b benshi baba batandukanye.

Tugira amaparuwase menshi cyane aba muri diyoseze katederari ya Ruhengeri. Habamo nka paruwase ya Rwaza iherereye mu Karere ka Musanze, mu Murenge wa Rwaza, isengeramo abantu benshi cyane batandukanye.

Tugira inyubako nyinshi cyane ziba zitandukanye; insengero zigira akamaro kanini cyane; zituma twegera Imana tukavugana na yo, umuntu waba yaracumuye aragenda akakicuza ibyaha bye, tukagira ubuzima bwiza cyane buzirana n'icyaha kugira ngo tuzarusheho kujya mu ijuru.

Kugira ngo turusheho kuvugana n'Imana no kuyegera tugomba gusenga. Tugira amadini menshi cyane dutandukanye yo gusengeramo, urugero: abanyagatolika, abadive, abaporoso, abayisilamu, abayehova.

Tugira inyubako nyinshi cyane zigezweho zibaga zitandukanye, amazu meza ateye imbere, insengero, amashuri, amasoko, n'ibindi byinshi cyane biba bitandukanye.

Tugira inyubako nyinshi cyane， ziba ziteye imbere， habamo amavuriro meza cyane agezweho， afasha ababyeyi baba bagiye kubyara，atuvura iyo tugiye kwivuza，dufite n'ibindi bibazo runaka， n’indi byinshi cyane.

Abantu bubaka insengero baba bagomba kuzubaka bakazikomeza , kubera ko ziba zizamara igihe kinini cyane. Bagomba gushyiramo ibyuma kugira ngo bazikomeze cyane.

Abubatsi bajya baduteza imbere, cyane cyane batwubakira amazu agezweho meza, akenewe n'abantu benshi cyane, igihugu cyacu kikagenda gitera imbere uko bukeye n'uko bwije.

Tugira inyubako nziza cyane ziba zitandukanye zigezweho nk'insengero ,urw'abanyagatulika ni rwiza cyane basengeramo habamo n'amashusho aba atandukanye ya Bikiramariya, imisaraba ,amashusho ya Yozefu n'andi menshi cyane.

Tugira inyubako nyinshi cyane zateye imbere ziba zigezweho， habamo imidugudu y'ikitegererezo， amashuri， ibitaro，insengero n'izindi nyubako nyinshi cyane， ziba zitandukanye.

Tugira inyubako nyinshi cyane ziba zigezweho mu nsengero, zigira amadini menshi aba atandukanye: abanyagatolika, abaporoso, abadive, abaporosobiteriyene, abageni ba yesu, aba yehova n'ayandi madini menshi cyane.

Insengero dusengeramo zibamo intebe nziza cyane, buri shusho iba mu ruhande rwayo bayigenera, usanga hameze neza umuntu ntabwo yifuza kongera kuvamo.

Tugira inyubako nyinshi cyane zigezweho, nk'insengero za kijyambere ziba zirimo amoko menhi aba atandukanye biterwa n'idini, hari Abanyagaturika, Abaporoso, Abapende, Abadiva n'ayandi menshi cyane.

Tugira inyubako nziza cyane zigezweho ziba zitandukanye， n'imidugudu y'icyitegererezo， bubakiramo abantu baba barahuye n'ibiza， cyangwa baba batishoboye. Inzu nziza cyane n'igikoni cyayo， barazikora bakazipavoma，babaha n'ibigega n'ibindi byinshi cyane.

Tugira inyubako nyinshi cyane ziba zitandukanye amazu meza cyane yubatse neza ,yubakishije amatafari ya Ruriba, afite amabati meza cyane, amakositara, arimo inkingi n'ibindi byinshi cyane.

Tugira ubwoko bwinshi bw'inyubako ziba zitandukanye. Twubaka imihanda habamo machine nyinshi cyane ziba zitandukanye izicukura, izisiza n'izitsindagira.

Tugira insengero nziza cyane ziba zarateye imbere, insengero z'abanyagaturika ziba zarateye imbere cyane, abantu baza kuhasengera, bitwikira imitaka, baba ari benshi cyane, ku buryo umuntu atabona ahantu anyura.

Tugira inyubako nyinshi cyane ziba zigezweho, n'imidugudu y'icyitegererezo, zibamo abantu baba barahuye n'ikibazo cyangwa se abatishoboye, ziba zifite isuku cyane, ziba ari inzu zubatse neza.

Tugira inyubako zigezweho z'insengero, haba harimo abanyagatulika bagira abasenyeri, abapadiri, abakate n'abandi benshi cyane, bahurira ahantu hamwe, musenyeri abasomera misa, abapadiri baba bambaye imyenda isa n'abakarisomatike bambara isa.

Igihugu cyacu cyateye imbere kigira insengero nziza cyane. Insengero zikikijwe n'imihanda ya kaburimbo, isa neza. Twateye imbere cyane cyane mu Gihugu cy'u Rwanda.

Muri Leta y'u Rwanda, Abanyarwanda twese tugira uburenganzira bungana, nta we bahohotera, nta n'uwo bakubita cyangwa ngo bamuvutse uburenganzira bwe.

Abantu bagira uburenganzira buba bungana. umugabo agiraga ubungana nk'ubw'umugore we n'ubw'umwana we burangana cyane cyane abantu bose baba bakwiye gukora ibintu.......

Tugira ubwikorezi rusange bugira akamaro kanini cyane, bajya hanze, bakatuzanira ibikoresho byinshi cyane tuba dukeneye, bikatugeraho neza cyane, mu igihugu cya Kongo cy'abaturanyi, icya Uganda n'ibindi bihugu byinshi cyane, ibyo tuba tudafite.

Tugira imihanda rusange zibamo amamodoka menshi cyane aba atandukanye n'ubundi bwikorezi rusange, imodoka zitwara abagenzi benshi cyane zijya muri Kigali, hari n'izizamo ba mukerarugendo baje gusura igihugu cyacu cy'u Rwanda.

Mu mihanda rusange habamo imodoka ziba zitegereje abagenzi, kugira ngo zibatware ahantu mu magare runaka aba atandukanye nka Nyabugogo, Musanze, Rusizi , Rubavu n'andi magare menshi.

Tugira imihanda myiza cyane habamo ibinyabiziga amamodoka akadutwara. Iyo tujya ahantu kure dutega amamodoka akadutwara tugahita tugerayo .

Imihanda rusange igira akamaro kanini cyane kaba gatandukanye, ibamo ibinyabiziga byinshi amamodoka, amamoto, amagare n'ibindi byinshi cyane usanga ntakavuyo kenshi kaba kari mu muhanda.

Imihanda mpuzamahanga igiraga akamaro kanini cyane. Ituma abantu bajya mu bihugu byo hanze bagenda neza bakagerayo amahoro. Haba hisanzuye, nta kavuyo k'ibinyabiziga byinshi biba birimo kuko buri kinyabiziga kigendera mu mukono wacyo.

Imihanda rusange ibamo ibinyabiziga byinshi cyane biba bitandukanye nk'amagare atwara imizigo myinshi cyane, ahantu tuba twarahinze tujya gusarura twitwaza amagare, dutwaraho n'amajerekani tuvuye kuvoma .

Tugira ahantu mpuzamahanga imodoka zihagarara zitegereje abagenzi. Hari Nyabugogo, Nyagatare, Gisenyi, Rusizi, Musanze, Burera, Rulindo Gakenke.

Imihanda rusange igira akamaro kanini cyane. ibamo ibinyabiziga byinshi cyane biba bitandukanye: amagare, amamoto, amamodoka, aba akora imizigo myinshi cyane ayo bita tagisi.

Imihanda rusange igendwamo n'ibinyabiziga byinshi cyane biba bitandukanye . Nka moto zigira amafaranga menshi cyane. Abamotari binjiza amafaranga cyane cyane hari abantu bagenda mu modoka bakaruka ariko bagendera kuri moto ntibagire ikibazo bahura na cyo.

Tugira ubwikorezi rusange buba butandukanye. Nk'ubwato bugira akamaro kanini cyane, bwambutsa abantu amazi, bubafasha kuva hakuno y'amazi bukabageza hakurya yayo, bubatwarira n'ibintu.

Mu bwikorezi rusange dusangamo ibinyabiziga byinshi cyane biba bitandukanye; hari iyo bita moto-modoka, itwara imizigo myinshi cyane, bijya inyuma umuntu uyitwara akajya imbere akayitwara muri cya ...

Indege ni nziza cyane zifasha ba mukerarugendo n'abandi banyarwanda bose bajya mu bihugu byo hanze, bagerayo bakoresheje iminota mikeya cyane ku buryo nta muntu wifuza kugenda n'imodoka.

Tugira imihanda mpuzamahanga，n’ahantu imodoka zihagarara zitegereje abagenzi，hariho ahantu henshi zihagarara，nka gare ya Musanze，iya Nyabugogo， iya Rubavu， iya Burera n'izindi gare nyinshi cyane.

Tugira ubwikorezi rusange buba butandukanye n'imodoka zidutwarira ibihingwa tuba twejeje zidutwarira: ibitoki, ibishyimbo, ibirayi ,soya, ingano, amasaka, amashaza, n'ibindi byinshi cyane tweza.

Tugira ubwikorezi rusange budutwarira ibikoresho byinshi cyane biba bitandukanye dukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi, habamo imodoka zitwikorerera amakara adufasha mu guteka ,tuyashyira ku mbabura n'uko tukayatekesha, adutwaza n'ibidomora tuvomeramo.

Imyitozo igorora umubiri wacu, igira akamaro kanini cyane gatandukanye:gusimbuka, gukina umupira bituma tugira ubuzima bwiza, bigabanya umubyibuho ukabije biturinda gutekereza cyane, siteresi nyinshi cyane mu mubiri wacu.

Abantu batwara amagare ya siporo baravunika cyane. Niyo mpamvu umuntu uba uwa mbere bamuhemba, cyane cyane uwabaye uwa mbere.

Imyitozo ngororamubiri ni myiza kubuzima bw'umuntu wese, cyane cyane imikino iba itandukanye, bakinisha imipira yabalo, abantu benshi baba bahuye, baje kureba iyomikino yabo, imipira y'amaguru, vole n'ibindi byinshi cyane.

Tugira imyitozo igororara umubiri wacu, habamo abatwara amagare bagira amasiganwa buri mwaka anyura mu turere twose tuba dutandukanye tw'igihugu cyacu, aba meza cyane, agira akamaro kanini cyane, ubaye uwa mbere baramuhemba kandi n'uwayuma baka...

Imyito igorora umubiri wacu ni myiza cyane, n'abantu bagendera ku magare ya kurusi barahembwa cyane, bagira amasiganwa ya buri mwaka bazenguruka igihugu cyacu cyose bakaduha ibirori, tukabashungera, turabareba ubaye uwa mbere...

Dukoraga imyitozo ngororamubiri ituma tugira ubuzima bwiza cyane, urugero umupira w'amaboko, umupira w'amaguru n'ibindi byinshi cyane bigira ubuzima bwacu bwiza buri munsi.

Imyitozo ngororamubiri ni myiza cyane, abantu batwara amagare babona ibihembo byinshi cyane, buri mwaka bakora ayo masiganwa, baragenda, uba uwa mbere baramuhemba, kandi n'uba uwa nyuma baramuhemba.

Imyitozo igorora umubiri wacu. Igira akamaro kanini cyane . Habamo nko kwiruka ,gukina imipira y'amaguru, y'amaboko n'izindi nyinshi cyane kwiruka bigira akamaro kanini cyane . Bigabanya umubiri ,bituma umuntu atabyibuha cyane birenze.

Imyitozo igorora umubiri wacu， igira akamaro kanini cyane ku bana b'abanyeshuri biga， bakina imipira，bakina imipira y’amaboko，y'amaguru， vore， basiketi， za ruhago， n'ibindi byinshi cyane.

Tugira amoko menshi nk'imyitozo igororaga imibiri yacu, tugiramo nk'amasiganwa ku magare, usanga ari meza cyane abereye amaso y'abantu benshi, ni imyitozo igira akamaro kanini cyane mu buzima bwa muntu.